Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ikamyo, kiri mu muhanda urombereje gitwawe n'umugabo, iruhande rw'umuhanda w'abanyamaguru harimo abadamu babiri bafatanye akaboko, bari kugenda.

Amavatiri abiri ahagaze ariho ibirango by'ikigo cyitwa Yego cabs, gishinzwe gutwara abagenzi mu buryo bwihariye, iruhande rwaho hariho abagabo bahagaze.

Imodoka nini itwara abagenzi ya Yutong iri mu muhanda munini urombereje, itwawe n'umuyobozi w'umugabo, iruhande rw'umuhanda hari ibiti, inyuma y'ibiti hariyo inzu.

Imbere y'inyubako yo kwa makuza pisi puraza, izwi nka M peace praza, hari urubyiruko rwicaye, abandi barimo baragenda, abandi bari muri telefone zabo.